Ahangaha habaga muri forumasi, nk'iyo ufite mituweri uragenda ugafatamo imiti cyangwa se waba wageze kwa muganga imiti bakayibura, bahitaga bakohereza nkaha muri forumasi bakagufasha bakabasha kuguha imiti wabuze.

Umuveterineri ni umuntu wiga cyangwa se wita ku nyamaswa nimba zifite ibibazo by'uburwayi, akabasha kugira ngo aziteho, bityo bigafasha inyamaswa kugira ubuzima bwiza, ndetse n'umworozi akabasha korora inyamaswa ye ifite.

Iki co ni icatsi c'ururabo abantu bagikoreshaga bari gushaka kugira ahantu habo neza kugira ngo habashe kuba hameze neza hasukutse mbese ibintu biri ku muronko byose iyo ushaka gukorankaga pasipalumu ufataga tuno twatsi akaba aritwo uteramo.

Iteke ni kimwe mu gihingwa gikunzwe hano mu Gihugu cy'u Rwanda, ariko kikaba kidakunze kwera mu duce twinshi cyane, dore ko gikunze kwera ahantu bita mu majyepfo, mu burengerazuba, no mu burasirazuba, naho hano mu majyaruguru ho gikunze kujya kera gakeya.

Iki ng'iki ni co citwaga igisura, kirababanaga cyane! Noneho iyo bakigukubise kirakubabaga e ariko gikundaga kibagamo umuti. Nk'iyo umuntu agwaye igifu ni co bahitaga bamutegeka ngo aje ararya.

Iki ni igihingwa cyitwa igifuraninde. Akenshi na kenshi bacyifashisha mu bintu bijyanye n'imiti. nk' umuntu wavunitse cyangwa se ufite ikindi kibazo yarahuye n'imvune baragikanda bakakivanamo amazi akaba aricyo bamusiga.

Iki ng' ici co ni icatsi bifashishaga bari kuvura abantu nyine bagwaye cyangwa se bagize imvune. Nk'iyo ugwaye barabifataga, bakabikanda bikavamo amazi noneho bakagenda barabisiga ahantu wavunitse bakagenda barabihasiga, barabihasiga, barabihasiga.

Iki ngiki co kibaga igiti c'avoka, nk'iyo gikuze keraga amavoka nuko kikiri gito ikingiki kimaze nk'imyaka zigera muri ibiri cangwa itatu, hagati y'itatu n'ine.

Ikingiki nyine bacitaga igiti c'imishubi ;kigira utuntu tumeze nkaho dusorongotoye nyine dupfumanaga bitaga imishubi, bacitaga imitobotobo kigiraga n'imitobo nk'iyo nyine bakigukubise gishobora no kugushwanyura n'umubiri.

Iki cyatsi cyo bajya bacyita umurambya, nk'igihe mbese umuntu yavunitse cyangwa se afite ikibazo cy'ahantu imitsi idakora neza, barabifata bakabivuguta, amazi avuyemo bakajya bagenda bayamusigiraho, cyangwa se bayamukandiraho, kugira ngo igufwa risubiremo neza, cyangwa se imitsi imere nk'aho iri gukora neza.